Icyapa kimwe cyamamaza saniramu kiri mu ibara ry'ubururu, n'umukobwa wambaye imyenda, ipantaro n'ishati n'umupira w'ijimye, wambaye amaherena, afite agasatsi gakeya, wirabura, uri guceza.

Icyapa bamamarizaho gifashwe n'ibyuma bibiri ndetse hakaba hari harimo amagambo atandukanye, yandikishije ibara ry'umukara umutuku n'umweru, hari amanini n'amato hiryahakaba hashushanyijeho inzu imbere yaho hari imodoka ihaparitse, munsi kandi hariho urubuga rumwe, ushobora gusangaho ibyo bikorwa biri kuri icyo gishushanyo cyangwa nimero wahamagara.

Amaboko abiri ari gupfuka akaguru k'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu bari gukoresha agatambaro k'umweru hagana hejuru hari magambo ari mu ibara ry'ubururu yanditseho ngo gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri butangwa na radiyanti yacu tumitedi twirinde sinamenye .Ahagana hasi hari icyapa cy'ubururu kirimo amagambo y'umweru yanditseho radiyanti (Radiant )yacu.

Icyapa kimwe cyamamaza kiriho umusaza uri kumwenyura ufite uruhara ndetse n'imvi, n'agakoni mu ntoki ziwe handitse ngo no mu gihe cy'izabukuru turahagoboka, ahagana hasi hari nimero ushobora kubandikiraho kuri watsapu ukeneye kubahamagara wahamagara makumyabiri n'umunane makumyabiri n'umunane.

Ikiganza kimwe cy'umuntu wambaye hasi umukara ufite telefone mu ntoki ze, hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho RADIANT yacu n'andi magambo y'umweru n'andi arimo ngo yego nibyo nta kindi kugira ngo nawe ugere ku mushinga w'inzozi zawe ukoresheje telefone yawe igendanwa akanyenyeri imibare ukanda wizigamire maze w'ungukirwe utere imbere.

Icyapa kimwe bamamarizaho gifashwawe n'ibyuma bibiri, kiba kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu hariho n'akandi k'umuhondo; cyanditseho amagambo atandukanye, ashushanyijeho n'umugabo uri guseka wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Icyumba kimwe kirimo ameza, amakaro y'umweru, hahagazeho abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro ijya gusa ubururu, ikoti ry'umukara n'undi wambaye umukara gusa, imbere yabo hari intebe ziticayeho abantu n'ameza ariho ibipapuro byinshi bitandukanye, hino hari indi iriho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cyanditseho radiyanti, ku ruhande hariho ivaze irimo indabo.

Inyubako nziza cyane y'umutuku na ubururu, hakaba hari umukobwa ushushanyije muri iryo bara rya ubururu wambaye imikenyero myiza cyane, agasengeri ka umweru na imishanana irimo ubururu nakandi kabara ka shokora, kuruhande hari amazu yubucuruzi na ibyapa bigaragaza ibiyakorerwamo na imodoka zioaritse hafi aho.

Icyapa kimwe gisa umweru cyandikishijweho amagambo y'umutuku n'andi y'ubururu ari munsi yayo n'indi mibare itandukanye, abakobwa abariri, uwambaye umukara n'uwambaye bluesier. Inyuma yabo hari imodoka itukura utugambo tw'umweru turi mu ibara ry'ubururu ahagana hasi.

Telefone imwe yinjiye muri apulikasiyo hejuru hari amasaha abiri yo gukorerwa iri gukoresha enterineti, umuriro urimo hepfo ahantu handitse amagambo y'umukara hari utuntu tubiri tw'utuzeru hariho aka oranje n'ak'umutuku kandi hari akantu k'ubururu karimo ingufuri hepfo hari n'ahandi hari akarangantego k'idolari.

Iduka ririmo imyenda itandukanye amapantaro, imipira, harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu wicayemo hagati harimo n'ibimananeke bimanikaho bimanikwaho imyenda.

Iduka ricururizwaho imyenda, icyapa kinini cyandikishiho amagambogambo y'ubururu agaragaza uko hitwa na numero zabo za terefone, ibimanike byambaye ikanzu y'umutuku, icyambaye umukara n'umweru ikanzu ya y'iroza n'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye hazwi ku izina rya botike. Harimo umugabo wambaye ishati yumweru, numukobwa ufite umusatsi mwiza muremure, ufite agasakoshi ku rutugu n’agasa ku kaboko. Bari gusuhuzanya bombi, bahanye ibiganza, kandi barishima

Inyubako ifite amabara atandukanye: ku nkingi y'ibumoso hari umuhondo, iroza ndetse n'umweru; ku nkingi y'iburyo hari ibara ry'ubururu. Ifite amakaro y'umweru, hari amavarisi ndetse n'inkweto afite amabara atandukanye.

Inzu icururizwamo ubugeni butandukanye, hari umwenda ubona ko udozwe mu gitenge, urimo icyatsi n'umukara n'umweru, inyuma yawo hari uwundi w'umweru, usa n'urimo uturongo tumanuye, harimo n'ibindi bintu bikozwe mu masaro ndetse n'utundi tuntu dutandukanye.

Ahantu hamwe hacururizwa imyenda yo kwambara ndetse n'amasakoshi, utubati dusa umweru turimo ibyo bicuruzwa ndetse hariho akantu ku ruhande ka pinki, umugabo ufite inkweto mu ntoki ziwe hagaragara igice kimwe cy'umubiri we ndetse n'inkweto z'umweru ziri hafi aho n'izindi z'ubururu.

Ahantu hacururizwa imyenda itandukanye hari abagabo n'umugore wicaye usa n'aho ari kugurisha imyenda, umugabo ufite imyenda mu ntoki birasa nk'aho ari kumubaza uko igutishwa nawe akaba ari kumusobanurira.

Iguriro rimwe ririmo imyambaro itandukanye, agatapi gashashagirana gafite n'ibara ry'icyatsi, hakaba harimo ibintu bitandukanye, intebe y'urubaho n'akabati k'imbaho karimo ibitenge bizingazinze, ikigaragara cyane gifite amabara atandukanye, oranje n'icyatsi.

Abagabo babiri batandukanye ufite uruhu rwera undi rwirabura umwe akaba yambaye karuvate n'ishati ya buresiyeri, karuvati irimo umukara n'umutuku n'agasatsi gakeye ari gutunga agatoki mudasobwa undi nawe ari kureba.

Akabati kamwe k'imbaho z'umukara gacururizwamo cyangwa kabikwamo inkweto zitandukanye hakaba hari inkweto za bodaboda, izifunze zigiye zifite amabara atandukanye; umukara, umuhondo, ubururu, icyatsi, umweru na shokora.

Imodoka ifite irangi ry'umweru iparitse ahantu hari amakaro meza y'umweru hirya hari n'izindi z'umukara ndetse ku ruhande harimo amadirishya afite ibirahuri by'umweru ndetse hejuru hariho amapurafo ariho y'ibyuma by'umukara.

Ahantu hahurira abantu benshi hari abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu, umwe ubururu bwijimye undi bwerurutse, umwe yambaye agapfukamunwa hari amamodoka atandukanye yose asa umweru ari mu ibara, amagambo ariho volukano.

Abantu batatu batandukanye abagabo babiri n'umugore umwe urimo hagati bakaba bambaye rinete, umudamu wambaye iby'umukara bafite icyapa kiriho amagambo y'ubururu gisa umweru hakaba hariho amamodoka yo mu bwoko bugiye butandukanye.

Imodoka imwe nziza cyane ihagaze muri parikingi y'amapave isa umukara, inyuma y'aho hari ibyatsi, ndetse n'umumotari uri kwambuka mu muhanda hirya, akapa kariho akantu karabagirana kari hejuru y'iyo modoka, ibiti bikikije hafi aho ngaho ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka nziza y'ibara ry'umweru n'umukara hakaba handitseho amagambo y'umutuku ku cyapa, hari abagabo batandukanye hari ibipurizo by'umutuku n'umweru biri inyuma yabo, uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara abandi bafite utubaga dutukura turi imbere yabo.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara isa ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari icyapa gisa ubururu n'umweru ndetse n'umukara hagati. Inyuma hari inzu ifite ibara risa na oranje, hari n'ibiti biri imbere yayo.

Ikamyo y'umweru ihagaze muri parikingi y'amapave, imbere yaho hari abagabo babiri bafite icyapa mu ntoki zabo buri wese afasheho, undi afashe mu kaboko k'ibumoso agakapu kamwe, yambaye n'isaha muri uko kuboko afatishije ako gakapu.

Inyubako nziza cyane ikozwe n'amabuye hari amamodoka abiri ari imbere yayo muri parikingi y'amapave hari utwuma tw'akararo, abagabo babiri bahagaze imbere yabo bafite icyapa mu ntoki zabo umwe akaba afite agakapu gatukura.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umukara bambaye amapantaro n'amashati ya buresiyeri, inyuma yaho hari imodoka yindi isa umweru, hejuru hari icyapa kigaragaza iyo nyubako handitseho Akagera motozi.

Abagabo babiri bafite ikintu kimeze nka mari, bambaye imikandara n'amapantaro, na amashati n'ingofero. Imbere yabo hakaba hari imodoka y'umukara ifite amatara y'umutuku ni icyapa kiri mumabara atandukanye, umutuku, umweru n'umukara na shokora, na purake y'umuhondo.

Icyumba kimwe cyicayemo umumama amaboko ye akaba yayegetse ku meza, ibiganza bye bifashe inoti ziri kuyabara, hari izindi noti ziri ku ruhande, ibiceri bitoya n'ibinini n'akuma gasohora inyemezabwishyu.

Abagabo babiri harimo umwe wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu imbere, n'akantu kajyamo ikarita ari ko bakunze kwita baje, imbere ye hari imashini ibara amafaranga ndetse n'akandi kabara amafaranga bari guteranya, imbere ye kandi hahagaze umugabo wundi wambaye ishati irimo umukara n'umweru ufite umupira w'umutuku ku rutugu.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga y'inote yo muri Kenya, amashiringi igihumbi cyaho, akaba afite shokora n'icyatsi n'utundi tubara ashushanyijeho n'umugabo hagati muri yo.

Iyi noti iri mu ibara ry'iroza irimo utubara tw'umweru nandi mabara atandukanye, handitseho amafaranga maganatanu, n'amagambo ngo banki nkuru y'u Rwanda, iyi noti yemewe n'amategeko, hashushanyijeho ingagi ndetse n'ikawa hafi aho.

Inoti imwe y'ubururu n'umweru numukara irimo amagambo ashushanyijeho banki nkuru y’ u Rwanda inote yemewe n'amategeko ashushanyijehoka inka eshatu, irimo umukara, n'umweru, n’ ubururu n'umweru n'amagambo ashushanyije amafaranga magana atanu.

Ahantu hakorerwa ubwajenti bw'amabanki atandukanye harimo abakobwa babiri, buri wese akaba afite ahantu he yicaye uwambaye iby'umukara n'uwambaye oranje, hari ibyapa bigaragaza amabanki bakorana nayo, hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho ekwiti n'uburyo ikoreshwa n'ibiciro byaho.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'amafaranga, ifite amakaro y'umweru akikijwe n'akabara gasa oranje, hejuru ya so oranje, harimo amabara y'ubururu n'ibirahure by'umweru, umumama wambaye ikanzu iririmo utubara dutandukanye, agakandararaga gasa umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati ya buresiyeri, n'undi wambaye ishati ya karokaro umuri inyuma.

Umumama wirabura ahagaze imbere y'icyumba gitangirwa kandi kikakirirwamo amafaranga, akaba yambaye agapira karimo utubara dutandukanye: umweru, ubururu ndetse na buresiyeri n'igitenge imbere ye hari amafaranga y'inote nayibiceri.

Inyubako imwe ifite amatafari ahiye n'amakaro y'umweru, ikaba ikorerwamo ubucuruzi bw'amata harimo icyuma kinini cyane cyanditseho nyanza milk industries, hakaba hariho utuntu dutandukanye hejuru hari akantu gasa n'ibara ry'ivu ameza ari imbere yaho

Urugi rw'ubururu rw'ahantu hacururizwa amata, hari selire y'umuhondo, hashushanyijeho inka, n'amagambo yanditseho Nyanza, mu Kinyarwanda, amajerekani abiri y'umweru, n'indobo iri hafi ahongaho itagaragara neza, umuhanda uri hakurya.

Ahantu hamwe hakorerwa ubucuruzi butandukanye, harimo ibiribwa n'ibinyobwa ndetse n'amata, abantu bakaba bari gusuka amata mu cyuma cyabugenewe bakoresheje ibicuba, umumama wambaye umwenda utukura urimo utubara tw'umweru n'akantu mu mutwe k'umukara ahagaze imbere aho ngaho.

Ahantu hacururizwa amata, hakaba hari akabati karimo amajerekani abiri asa umweru n'icyapa cy'ubururu n'umweru harimo n'umuhondo, agatebe gateretseho akabido k'umweru n'uducupa tubiri turimo yogati, icyuma kinini cy'amata.

Ahantu hacururizwa ibyo kunywa n'ibyo kurya umuntu ashobora gufata ako kanya, n'ibyo yajyana, hari icyuma cy'amata, n'umumama wambaye ipantaro y'ubururu n'agakote k'umukara n'udukweto, intebe z'umweru zikikije ameza, inyuma ye hari agafirigo.

Ahantu hagurirwa amata ikiganza cy'umuntu uri kurya capati akaba amaze gushunaho hasi hakaba hari ameza y'umweru hari isahane n'igikombe hari kunyweramo amata hakurya ha akaba ari kugaragara akabati gacururizwamo n'utundi tuntu turimo imbere.

Ububiko bukonjesha ibinyobwa burimo amata y'ikivuguta avanze n'imbuto y'inkeri akaba angana n'igice cya litiro.

Iduka ricuruza amata, hakaba hari umugabo uhagazemo wambaye imyenda y'umuhondo n'umukara, rikaba rifite urugi rw'ubururu, imbere hakaba hari umugabo uteruye itasi irimo amata, iruhande rwe hakaba hari keke n'akarindandazi yariyeho, akayiko, n'isahani.

Ahantu hamwe hagurirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa umuntu ashobora guhita afatira aho ngaho cyangwa akabijyana amaji, amafanta, amazi, amata ndetse n'amafirigo arimo ibiba bikonje. Umumama wicaye uri gukanda muri telefone, iruhande rwe hari akameza kariho agatambaro karimo utubara dutandukanye n'intebe y'ubururu n'indi iri hakurya y'umweru.

Ikiganza giteruye ikinyobwa kingana na litiro rimwe ikaba ari uruvange rw'umutobe w'amatunda ijana iri mu ibara rya orange harimo na move, ubururu n'umweru handitsemo ijambo inyange.

Uburyo bwo kwishyura ikigo gishinzwe amazi hakoreshejwe ikoranabuhanga wasake hitamo wasake, andika nimero za konteri yawe ushyizemo amafaranga wishyura wemeze ukurikize amabwiriza baba baguhaye.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite umusatsi mwiza w'umukara, afite icupa rya fanta mu ntoki ze, ari gutungira agatoki abagabo bandi bamuri iruhande, uwambaye ishati y'icyatsi n'uwambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'ubururu nundi,

Icyapa kimwe cy'umuhondo kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hariho umukobwa wambaye umwenda w'umweru n'agatambaro mu mutwe uri kumwenyura, wambaye impeta zuzuye intoki, ari gukanda muri telefoni ye, yambaye n'agakomo.

Akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu urwego, akaba ari uburyo bukoreshwa kugira ngo habeho kohereza ndetse no kugura ama inite kureba barance ndetse no kugura bando za internet hifashishijwe ikoranabuhanga

Abasore babiri batandukanye, umwe bafite telefone undi ntayifite, hari uwambaye ikote ry'umukara n'ishati ya buresiyeri bari guseka barishimye, iruhande rwabo hari icyapa cy'icyatsi harimo amagambo ya oranje n'umweru.

Ikofi iri ku kameza ka shokora y'umukara, ikaba irimo inoti zigera muri eshanu zitandukanye zifite amabara atandukanye iya magana tanu, iy'igihumbi, iya bitanu, ndetse n'iy'ibihumbi icumi hakaba harengaho iy'ibihumbi makumyabiri.

Akuma keza k'umweru kaba ari amafaranga kaba arimo amafaranga atandukanye yanditseho ijana ry'amadorari afite ibara ry'umweru n'umuhondo n'umukara harimo n'ubururu na oranje.

Ikiganza kimwe kirabura gifite inote zigera kuri esheshatu zikaba zifite amabara atandukanye, hariho umugabo umwe wambaye linete hakaba harimo amabara y'icyatsi, umukara ndetse na shokora itagaragara neza.

Ikiganza cy'umuntu w'umumama kiri gukanda mu kamashini k'umukara ku tubare dutandukanye, kari ku meza asa n'ibara ry'ivu hateretseho akamashini kabara amafaranga, hakaba hariho umugabo ufite uruhara handitseho amafaranga ijana akaba ari amadorari.

Ikiganza kimwe gishobora kuba ari icy'umudamu ufite inzara zisa pinki, afite mu kiganza cye ubwoko bw'amafaranga atandukanye iyero mirongo itanu ijana makumyabiri kandi afite amabara atandukanye.

Umugabo wirabura ureba kuhande ibiganza bye bibiri bifashe amafaranga y'manyagana, afite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo hariho abagabo batanu bashushanyishije ubururu ndetse na orange na shokora rimwe ni atanu ayandi ni rimwe y'amanyagana.

Ibiganza bibiri by'umuntu ufite inoti z'amafaranga menshi mu ntoki atandukanye, hari zifite amabara y'icyatsi, hari izifite aya pinki nsetse hari n'izifite andi arimo umutuku, ushushanyijeho abagabo, imwe ikaba ishushanyijeho n'undi wambaye rinete.

Ibiganza bibiri bitandukanye byambaye udukomo ku kuboko kw'ibumoso kambaye impeta bifitefaranga mu ntoki yanditseho ijana izo note zifite amabara atandukanye umukara move n'umweru hariho umugabo wambaye lnette ubona kokuze.

Umudamu wambaye agapira k'icyatsi akaboko ke k'iburyo kambaye impeta; gafite inote amafaranga atandukanye afite amabara move, icyatsi, orange, ubururu n'umuhondo.

Inote nyinshi zihuriye ahantu hamwe ziri mu mabara atandukanye, hariho n'imibare itandukanye, hari iriho makumyabiri, mirongo itanu, ahandi ijana, abagabo bariho bafite amabara atandukanye, umutuku, move ndetse n'umukara n'icyatsi.

Ibiganza bibiri bitandukanye kimwe kiri kwakira ikindi kigahereza amafaranga y'amadorari yanditseho ijana hariho umugabo, ndetse hariho amabara atandukanye icyatsi, ubururu, umuhondo, na orange.

Ibyapa bitandukanye biri ku nyubako runaka bikaba bitagaragara neza cyane cyane icy'umuhondo cyandikishijweho amagambo y'umukara, hasi icy'umweru cyandikishijweho amagambo y'ubururu ndetse nakantu gasa nk'umutuku kari ku ruhande, hasi ikindi gihari hariho amagambo y'ubururu ndetse na nimero za terefone zigaragaza ibikorerwamo.

Utuzu tubiri kamwe gasa ibara ry'icyatsi hejuru na hasi mo imbere harimo abakozi, akandi gasa ibara rya move harimo amagambo asa umweru hasi yandikishije amagambo asa umuhondo.

Ameza amwe y'umweru arimo uturongo tw'umukara ndetse n'umuhondo, akikijwe n'udutebe dutukura tugera muri tune, hafi aho hari urugi rwa metalike, n'urutsinga rutagaragara neza rutukura, ibirahure by'umukara.

Icyumba kimwe cyirimo intebe z'urubaho za shokora ndetse n'iz'umukara, hakaba hari izirimo imifariso irimo utubara tubiri; umukara ndetse n'ibara rijya gusa umweru n'udusego turimo utubara dutandukanye n'amakaro y'umweru

Icyumba kimwe kirimo amakararo meza y'umweru giteretsemo imeza hagati ikikijwe n'intebe zirimo imisego ishashagirana ndetse n'intebe ziriho imbaho zijya gusa shokora hirya hariho inzu ifite ibirahuri ku madirishya n'amarido inyuma hariho indabyo.

Intebe zigera muri esheshatu z'urubaho zikikije ameza, iruhande rwaho hakaba hari akantu kameze nk'akuma n'akandi k'umukara, inyubako nziza y'umweru ifite amadirishya y'umukara hariho akantu ku muryango kariho amabara y'icyatsi ifite amakaro hasi.

Icyumba kirimo amakaro meza y'umweru n'ibitanda bibiri bitandukanye, kirimo ameza y'umweru akikijwe n'intebe esheshatu zifite ibara ry'icyatsi, na shokora k'uruhande imbaho zacyo zirasa na shokora.

Intebe enye nziza cyane, ebyiri ziteganye zisa ibara ry'umukara, n'ebyiri ziteganye zisa ibara ry'icyatsi, zose zikaba zihuriwemo n'akabara k'agahondo hagati, zikikije ameza y'umukara, n'utundi tubiri dutoya, n'ikigega kiri hakurya, n'inkwi ziri iruhande rwacyo, n'igipangu.

Igikuta gisize irangi ry'umweru, hatatseho udutako dutatu, harimo tubiri twa shokora ndetse n'ak'umweru, utwo tubiri tukaba ari duto kuri ako ngako ndetse tugiye tunyuranyuranyemo.

Icyumba kimwe kirimo amakaro y'umweru n'intebe zitandukanye, n'akameza gasa shokora karimo utubara tw'umukara, ku ruhande rwo hirya, hasi hari akameza kari gusa umuhondo, n'icyuma cya kizimyamwoto ku ruhande rwo hepfo.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo n'umukara, ikikijwe n'amatara menshi atandukanye, imiryango y'umukara n'amayesikariye azamuka, imodoka iri hino yayo n'umuhanda uri imbere yayo n'ibiti bihakikije.

Igikuta kiriho irangi ry'umweru hariho hakabaho gafite irangi rya shokora n'utuntu tw'umukara tugafashe hepfo kandi aho uruhukira hariho ishusho y'uruziga, harimo n'utundi tuntu dutandukanye tw'umweru n'umukara, ku ruhande hariho kizimyamowoto n'ama esikariye.

Hoteri nziza cyane iri mu ibara ry'umuhondo n'umweru n'umukara, umugabo uri kugana abandi bantu bari imbere ya mudasobwa, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, harimo n'ifoto n'intebe n'udusego twazo.

Hoteli imwe icanye amatara meza mo imbere hakaba hasa neza harimo intebe ziteguye, inyuma kandi hari ameza akikijwe n'intebe eshatu zirimo imisego impande zirimo utu tw'umukara ndetse n'utuntu tw'umweru tuyafashije hasi, ku ruhande hariho amavase ariho ibiti bitandukanye hariho ibibabi by'icyatsi n'ibindi bisa umutuku.

Icyumba kimwe kirimo ameza ateretseho ururabo n'akandi kantu k'uruhande, hirya hakaba hari giriyaje z'umukara n'inkingi hagati umuryango ukinguye ruriho amarido intebe nziza cyane iri aho ifite ibara ry'umuhondo.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umukara, hakaba ari amapave ajya gusa na oranje, udutanda two kuruhukiraho dusa dufite imisego y'umweru, hakaba hari na pisine isa nk'ubururu. Irimo amazi ndetse n'utuntu two ku ruhande dufite ibara ryicyuma bamanukiraho ku ma esikariye.

Inyubako nziza cyane ifite amabara atandukanye, imbere yaho hari imitaka n'udutebe, n'abantu bari kunyuranyuranamo hafi aho, ameza y'imituku, ndetse n'amazi abantu bakarabiramo n'udutebe abantu baruhukiramo iyo bavuye mu mazi.

Inyubako nziza cyane imeze nka hoteli ikikijwe n'ibyatsi ndetse n'amazi, ahantu abantu baruhukira hari udutebe twiza cyane tw'umukara, akapa k'umuhondo kabuza abantu kwinjira mu mazi.

Inyubako ebyiri zitandukanye, imwe iriho umugabo wambaye imyenda y'umukara, hasi hari udutanda baruhukiraho na pisine ikikijwe n'ibyatsi bitandukanye. Indi nyubako ikikijwe n'utugiriyaje dusa umukara

Amafunguro meza ateguranwe ubuhanga ariko ku isahani y'idongo y'umweru, amakaroni, inyama, atakishijwe na salade, agafiriti hafi aho, icupa ririmo icyo kunywa n'udukombe twubitse iruhande rwayo, intebe, hakurya hakikijwe n'ibiti.

Inyubako nziza cyane ifite amagorofa menshi atandukanye, ibirahure ndetse harimo utubara tw'umweru na shokora, ibiti biri hafi aho. Amasikariye maremare y'umukara azamuka ajyamo, n'umugore wambaye ikanzu ndetse n'undi umuri imbere.

Inyubako nziza cyane igeretse ifite ibirahure ndetse n'amabara ya oranje n'umukara n'umweru, imbere yayo hari abagenzi, n'umumotari uri kugenda mu muhanda munini, handitseho amagambo y'ubururu sanilamu.

Ikigo gikorerwamo serivisi zitandukanye, hariru umukobwa wicaye ku ntebe wambaye agapira k'icyatsi, afite imisatsi y'umukara, ameza yegamyeho asa mweru, umusore yicaye ku ntebe y'umweru yambaye imyenda y'umukara.

Inyubako ebyiri zitandukanye zifite amabara ya oranje n'amagambo atukura yanditseho sonarwa, ruguru hari icyapa cy'ubururu kirimo amagambo y'ubururu n'umweru hari n'utwapa tugaragaza ibiri gukorerwa aho ngaho, hasi hari amapave n'udupurete dusa umukara n'umweru.

Umuhanda w'itaka uparitsemo imodoka ku ruhande mu nsi y'inzu z'ubucuruzi ziriho ibyapa bitandukanye, hari amagambo y'ubururu ndetse n'utundi tumwe tw'umuhondo, harimo n'iri kugenda ifite irangi ry'umweru ya toyota, ndetse mu ziparitse hakaba harimo n'ifite irangi ry'umuhondo.

Akazu gato gakorerwamo ubucuruzi hejuru hakaba hamanitse icyapa cya henikeni, imbere yabo hakaba hari imodoka zitandukanye zihaparitse, ibi ibyapa rero bikaba bigaragaza ibikorerwamo.

Akazu gatoya gakorerwamo serivisi zitandukanye gasa ibara ry'umweru harimo amabara ya oranje n'ubururu, kari imbere y'amapave, inyubako iri imbere yako ifite giriyaje z'umukara n'ibyapa bigaragaza ibikorerwamo, akaba ari amazu y'ubucuruzi.

Icyapa kinini cyamamaza kiroho umugabo wambaye ikositimu ndetse n'shati nziza cyane uri kumwenyura wambaye agasaha wifashe neza cy’ ubururu cyanditsweho n’ amagambo yumweru yubake na I@M bank ninde wemerewe inguzanyo.

Icyapa kimwe cyamamaza kigaragaza abadamu babiri bari kumwe bishimye, uwambaye agapira k'irose n'uwambaye agapira gasa move akaba afite udusatsi dufunze neza by'ibisuko n'uduherena undi akaba afite akantu kamwe bose bafasheho.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho amabara y'umukara n'umuhondo hariho amagambo agaragaza ibikorerwa muri izi nyubako munsi hari imdodoka zitandukanye n'abamotari n'umutaka wa MTN n'imodoka isa umweruru , umuhanda muremure ukomeza harimo inyubako zitandukanye .

Umukobwa mwiza cyane wambaye agashati k'umweru karirimo utubara tw'umukara; ufite fosette uri kumwenyura, ufite imisatsi myiza cyane miremire igera ku rutugu; akaboko ke k'iburyo kegamye ku modoka y'umukara, akandi kaboko gafite urufunguzo mu ntoki hari amagambo y'umweru yanditse ku ruhande aho.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gikorerwamo inama iririmo intebe z'umweru, bicaye ku meza isa n'icyatsi, amakaro, n'abantu bambaye imyenda igiye itandukanye, amadirishya arafunguye, amarido ariho amabara atandukanye, hagati y'irido n'indi harimo televiziyo.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ibintu bitandukanye igeretse ikaba ifite amadirishya yicyatsi kuruhande hari aka orange , imiryango ifite amabara atandukanye icyapa kinini kirimo umweru n'icyatsi n'umutuku n'umweru hariho amagambo agaragaza ibikorerwamo .

Ubusitani hejuru hari ikirere cy'ubururu cyanditseho amagambo ay'umutuku n'akandi kantu kameze nka mpande eshatu ziriho akantu Kakati k'ubururu, hirya hariho utuntu dushushanyishijeho udufureshi mu ikarita ya afurika ,amagambo ari ku ruhande rwayo n'akazu gashushanyijemo hepfo mu ibara ry'umweru.

Umusore n'inkumi bafatanye. Umusore yambaye ishati y'icyatsi n'agapira k'umweru, umukobwa yambaye agapira ka oranje afite umusatsi mwiza w'umukara; akaboko ke k'i buryo gafite urufunguzo mu ntoki.

Icyapa cy'ubururu kiririho amagambo atandukanye bipiyara, eyemu banke, hariho umukobwa wambaye ikanzu isa n'ibara rya giri, agakandara k'umukara akaboko ke k'iburyo gafashe kuri mudasobwa arishimye.

Amagambo ari mu ibara ry'ubururu hafi aho hari ama inote z'amafaranga ibihumbi bitanu y' u Rwanda, umumama wambaye agashati k'umweru ufite imisatsi y'umukara wikoze mu mutwe wisize agatiro n'andi magambo y'icyatsi yanditse imbere yiwe.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo bahagaze ahantu hamwe, harimo abambaye amakoti n'abambaye amashati, imipira ndetse hari n'abambaye ingofero, hepfo hariho akarangantego kagaragaza banki imwe ndetse hari inkingi begamyeho z'umweru.

Ahantu hari gutangirwa serivisi runaka hari ameza y'igitambaro cy'umuhondo n'intebe y'umweru ya oranje ,inyuma hari igishushanyo gishushanyijeho ikawa .Umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati ijya gusa umuhondo ,umudamu wambaye ibitenge birimo utubara dutandukanye n'uwundi amuri imbere wambaye amarinete.

Rimwe mu masoko acururizwamo ibintu bitandukanye by'ibiribwa ama papayi, imyumbati, imineke hari n'abantu barimo kugura no kugurisha ibyo bicuruzwa hari umumama wicaye afite agasatsi k'umukara wambaye n'iyenda y'icyatsi utagaragara neza.

Umumama uri guseka wambaye amaherena y'ibiziga, akantu k'umweru mu mutwe, umupira w'umutuku, itaburiya ya move n'umugabo wambaye iy'umukara n'umupira w'umuhondo, amaronji, indimu bibari iruhande n'undi mukiriya wambaye rinete, ufite utuntu tw'umweru mu mutwe tw'amasaro.

Mu isoko ry'imyenda, hari urujya n'uruza rw'abari gushaka imyenda bishimira ku buryo bayigura. Birasa nk'aho ari ku zuba ryinshi.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bijyanye n'ubugeni rihagaze imbere n'abagabo batatu batandukanye, uwambaye umupira wumutuku'ipantaro yumukara abandi babiri bari kwitegereza uwambaye ingofero wifashe mu maso ,ruguru ye hari igikapu cya made in rwanda gikozwe mu gitenge gifite utubara dutandukanye hari imitako itandukanye uduseke n'ishyirwa mu nzu.

Isoko rimwe ricuruzwamo ibibiribwa bitandukanye higanjemo cyane ibitoki bisa n'ibara ry'icyatsi bidahiye, hari abagabo batandukanye bari muri iryo soko bambaye imyenda y'imihondo, uwambaye agapira k'ubururu wunamye n'uwambaye agapira k'umweru uri mu mufu ukora mu mufuka.

Isoko ricuruzwamo ibintu by'ubugeni bitandukanye hari umusore wambaye ipantaro irimo amabara atandukanye n'agapira k'umutuku, n'ubururu akaba afite telefone mu ntoki ze yambaye n'agakomo k'ubururu kuruhande rwa ruguru inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye amaherena, ibitenge biri hejuru y’ ibizinze.

Isoko ririmo gucururizwamo imbuto zitandukanye, amapapayi, imyembe, imineke inanasi na wotameroni, hari umumama uri kubicuruza wambaye imyenda irimo amabara atandukanye umuhondo, iroza ndetse n'icyatsi n'agatambaro mu mutwe wiwe, inyuma yayo hari umumama wambaye imyenda irimo utubara dutandukanye.

Iguriro rimwe ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda, hari abantu batatu bicaye hafi aho ngaho, umugore ndetse n'umupapa ukuze n'umukobwa ukiri mutoya wambaye akagofero k'umutuku ufite akantu k'umuhondo, yambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umukara, hari imyenda itandukanye, izinze n'itazinze.

Isoko rimwe riri gucuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye abamoma babiri bakaba bapfundiye indobo irimo ibiraha bakaba barimo kugura umu mama uteru uyu mwana afite umwitero ku rutugu ufite imisatsi myiza yambaye udukweto tw'ubururu uri kubicuruza yambaye inkweto z'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Isoko rinini ririmo ibintu bitandukanye, abantu barimo babiri muri bo bakaba bagaragara neza, umudamu wambaye agatambaro karimo utubara twinshi, n'imyenda irimo amabara atandukanye, imbere yabo hakaba hari imineke, amaronji, inanasi, hakurya hakaba hari udufuka ndetse n'ibindi bikapu bigururwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Isoko ririmo abaturage b'abacuruzi bari gucururiza hasi badanduye kudufuka ibintu bitandukanye insenda ,intoryi, karoti ndetse abantu baricaye bategereje abakiriya, hari umwana wambaye ipantaro y'umutuku irimo umukara n'agapira k'umuhondo n'umubyeyi umwicaye imbere wambaye igitenge kirimo amabara atandukanye y'iganjemo ubururu.

Isoko ricururizwamo imboga zitandukanye povuro, kokombure, inyanya, ibitunguru, harimo n'abantu batandukanye umugabo wambaye umupira w'umutuku inyuma ye hari abandi bamuri inyuma bari gucuruza karoti.

Isoko ririmo abantu n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitenge bifite amabara menshi, mugabo wambaye ipantaro ya gisirikare n'inkweto z'umukara n'umweru, n'umupira w'umweru, imbere ye hagaze abazungu bambaye imyenda y'umukara.

Umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'akandi kantu karimo amabara ya move, ari guhereza agashashi umugabo umuri iruhande wambaye ishati y'umukara, n'undi yambaye ekuteri na rinete z'umukara, n'umupira w'umuhondo, amaronji abari iruhande, indimu, imyumbati, n'akamashini afite mu ntoki ze.

Utuzu tubiri dutandukanye tw'umuhondo n'ak'umutuku duhagazwe imbere n'abakobwa babiri batandukanye, wambaye umutuku n'umukara n'undi uwambaye imyenda irimo amabara atandukanye mo imbere hakaba harimo ibyapa bitandukanye bigaragaza serivisi zose bashobora gutanga.

Abagabo babiri bari ahantu mu cyumba harimo n'undi umwe wambaye umupira uri ikigango cya emutiyene, imbere ye hari mashini ya raputopu, afite telefone mu ntoki hari ibitabo bira aho ku meza n'ikaramu y'ubururu n'undi umuhagaze iruhande ufite tabuleti mu ntoki, hirya ku gikuta hamanitseho ifoto n'indi igaragaza serivisi zitangirwa aho .

Umugabo wicaye mu kazu k'umuhondo n'umweru wambaye umupira wa shokora n'umweru urimo uturongo afite ibitabo imbere ye yifashe mu mayunguyungu ari mu kazu gatangirwamo serivisi za emutiyene hari n'ibyapa bitandukanye.

Akazu kamwe k'agashitingi kari gutangirwamo serivise za emutiyene, hari abantu b'ingeri zitandukanye uwambaye ipantaro y'umukara n'umwenda w'umutuku ufite ibipapuro mu ntoki n'ikaramu, agacupa k'amazi y'inyange ndetse n'uwambaye umwenda w'umukara urimo agahondo kuruhande.

Abantu batandukanye bari mu mitaka uwumuhondo n'uwumutuku imbere hari umugabo wambaye ishati irimo uturongo n'uwambaye ijire y'umuhondo ari guhereza telefone mu genzi we ngo ashyiremo nimero.

Icyumba kimwe kirimo umugabo wambaye umupira w'umweru urimo agahondo, wambaye n'akabaji n'amarinete, ufite utwanwa turimo imvi, imbere ye hari umudamu uri gukora mu kantu ari kumuhereza afite udusatsi tw'umukara, ku ruhande hafi aho hari utuntu tw'umukara ndetse n'ameza.

Akazu gato gakorerwamo ubucuruzi bw'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, kari imbere y'umuhanda hakaba hari ibyatsi bya pasuparumu imbere yaho.

Mu isoko ry'ibiribwa, harimo iby'ubwoko butandukanye. Muri ibyo harimo intoryi, karoti, imiteja, amavuta yo guteka n'ibindi. Ahagana hejuru hari icyapa cy'umuhondo cya MTN, kigaragaza ko bemera kwishyurwa hakoreshejwe telefoni.

Akazu kamwe k'umuhondo karimo amabara atandukanye gashushanyijeho ibintu bigaragaza serivise batangamo, imbere hakaba harimo ibyapa bigaragaza ibiciro bya serivise zihakorerwa. Hicayemo umumama wambaye agasaha ufite ibitabo imbere ye n'undi wambaye agapira gatukura umuri inyuma.

Akazu k'umuhondo gatangirwamo serivisi za MTN mobayiro mani, imbere yaho hari umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro hafi aho hari agatebe k'urubaho n'inyubako nini y'inara rya oranje n'ibirahuri ndetse n'utugiriyaje tw'umweru.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'umwajenti w'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda uzwi ku izina rya emutiyene, gahagazwe imbere n'abantu batatu, umugore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu n'abandi bagabo babiri bamuhagaze imbere, uwambaye ipantaro y'umukara, undi wambaye imyenda y'umweru.

Agahema gato gafite n'inkingi z'umweru k'umuhondo hejuru handitseho akaranga ntego ka emutiyene, munsi harimo abantu benshi batandukanye ingeri zose abagabo, abagore, ndetse n'abakobwa, hari umwe ufite amakayi mu ntoki ya loiisitire y'ubururu, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Akazu kamwe k'umuhondo kariho ibyapa bigaraza ibikorerwamo, akaba ari MTN mombayiro mani hakaba hakorerwa ibikorwa bitandukanye umugabo wambaye ipanaro y'umukara ndetse n'ishati y'ubururu wifashe mumayunguyungu ari kuvugana n'umwajenti wicaye mo imbere.

Akapa gatoya kamanitse ahantu k'umuhondo kariho amagambo y'umukara yanditse mu kinyarwanda ngo ishyura na momopeyi, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri urwego, kode y'umucuruzi ushyireho urwego hanyuma ntayandi mafaranga wishyuzwa.

Ibiganza bibiri by'abantu bafite akantu mu ntoki kariho amabara atandukanye yiganjemo ubururu cyane n'umutuku, hejuru akababanditseho amagambo ariho kuri ako kantu, hirya hakaba hariho akantu k'umukara kanditsemo risaci akantu gakoreshwa, hirya kandi hariho uturongo dutatu tugaragaza izindi detaye ushatse ubundi busobanuro.

Umumotari umwe wicaye kuri mato imbere hakaba hari terefoni cyangwa se mubazi wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, ahetse igikapu cy'umuhondo k'uruhande rumwe cyanditseho amagambo y'umutuku inyuma yacyo hakaba ari akantu k'umukara gakikije ibara rya orange riririmo amagambo y'umweru.

Abamotari bari kuri moto zitandukanye bambaye imyenda itukura yanditseho YEGOMOTO n'amakasike yabo, hari imodoka yanditseho TOYOTA iri imbere yabo isa umweru harkurya hakaba hari inyubako zifite amabati atukura n'utwatsi imbere yaho.

Ikamyo yiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'irindi ry'ubururu yanditseho amagambo hejuru no hasi, hari akabara k'umutuku n'umweru kayikikije ku ruhande, iparitse ahantu muri parikingi, inyuma hariho akararo k'utwuma imbere hari amazu atandukanye y'ubucuruzi, harimo n'iry'icyapa hirya cyane hari umumama ufashe umwana akaboko, ndetse n'imodoka y'umukara.

Iguriro ryo kuri interineti riri mu kirangantego cya oranje, amagambo ari mu umwe yanditseho alibaba, ibicuruzwa biriho n'amafaranga ushobora kubigura mu mu gihe ubitumije kuri interineti.

Inyubako nziza cyane isa umweru, ifite n'amakaro ya shokora n'amadarage maremare azamuka ajya mu cyumba cyo hejuru, ikaba ari inyubako ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana abiri y'u Rwanda ikaba iri mu mujyi wa Kigali irangi risa umweru, amadirishya.

Bimwe mubikoresho biri mu nzu ikodeshwa ibihumbi maganatanu na mirongo itanu buri kwezi, inyubako iri muri kigali siti kabeza; harimo: firigo, amajerekani ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo munzu.

Inyubako nziza cyane irimo intebe nziza y'umweru harimo n'akantu k'umuhondo, hakurya hari akameza k'umukara, akadirishya gakinguye, itara rinini ryiza ry'umukara, umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru ufite utwanwa n'udusatsi twiza.

Inzu nziza cyane; iherereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nk'i kanombe, ikaba iri ku isoko, ikaba igurishwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu y'u rwanda, ikaba ifite amabati asa umutuku, amadirishya y'ubururu, ikaba ifite amakaro ku ibaraza, ndetse no mu imbere; hakaba hari amavase kandi mbere yaho hari amapave arimo amabara atandukanye; umutuku n'umukara n'umweru.

Icyumba kinini kirimo umugabo n'umugore n'ibintu bitandukanye, inyuma yabo hari amafoto idirishya rikinguye n'amarido, imeza akikijwe n'intebe zitandukanye, umugore yambaye agakanzu karimo utubara dutandukanye, umugabo yambaye ipantaro n'ishati.

Icyumba gisa neza cyane gifite itara rishashagirana, amarido y'umweru ku madirishya, ameza sa shokola ariho ibyokurya bitandukanye akikijwe n'intebe, n'umutako uri inyuma uriho amabara agiye atandukanye umuhondo, oranje n'cyatsi n'umukara.

Inyubako nziza cyane iri gukodeshwa amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana atanu mirongo itanu biri muri Kigali kabeza, hakaba harimo ibikoresho byose byo mu nzu, kamera firigo, ndetse n'igikoni, n'imashini imesa n'ibindi bikoresho byo mu nzu by'ingenzi.

Inyubako nziza cyane ya kadasitiri yubakishijwe amatafari ahiye mbere yaho hari amapave arimo amabarangi atandukanye umutuku, umukara n'umweru ndetse hirya yaho hari izindi nzu zitandukanye ziyikikije hari iriho itara riri kwaka, iyindi ifite ibara ririmo uturongo tw'umweru.

Inzu nziza cyane ifite amapave y'umutuku, numukara, n'umweru, hakaba hari amakaro n'ivaze hanze, hejuru ikaba ifite igisenge gisa umutuku n'utubara dutandukanye, amadirishya y'ibirahure birebire, na amakaro ayigize hanze.

Icyumba cyiza gisa neza kiriho urugi rw'umukara ndetse n'akarido karangaye ikirahure tukaba turi kubona hanze hakaba hari ibiti bitandukanye, mo imbere muri cyo harimo igitanda gisa neza kiriho amashuka arimo utubara dutandukanye na miriwari iri mu ibara ry'umukara n'utundi tuntu turi ku ruhande.

Icyumba kirimo irange risa umweru, amarido asa umukara n'umweru, amashuka afite ibara ry'ivu igitanda ni shokora.

Inzu ya kadasiteri, ifite irangi rijya gusa beje, hariho n'agatara, amadirishya akinguye, imbere yaho hariho insinga zinyuraho, amabati ya ruje borudo n'utuntu tuyatangiye tw'umweru, hakaba hariho amadirishya agera kuri atatu n'inkingi zifashe igisenge cyayo.

Inzu nziza cyane ifite amabara atandukanye, amakaro y'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara uturabo kuruhande n'amapave arimo amabara atandukanye umukara, umutuku, n'umweru ndetse no kuruhande hakaba hari utugiriyaje dusa umweru.

Inyubako nziza cyane ziri ruguru y'umuhanda hakaba hari itagaragara neza ifite urugi rw'umukara n'idirishya ry'umuhondo hari n'indi ifite ibara ry'icyatsi n'amadirishya y'umukara amabati asa piki ndetse ikikijwe n'udupasiparume turi iruhande rwaho.

Inzu nziza cyane ifite amakaro n'utu griage ku ruhande rw'umukara, n'umuhondo, ikaba ikodeshwa iherereye ku Gisozi, ifite ibyumba bitanu, na salon, na sale en mange, wese enye, na cuisine, inzu y'umukozi hanze, n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kimwe giteretsemo utumeza tubiri, kamwe kariho indabyo z'icyatsi n'utuntu tw'umuhondo hejuru akandi kariho televiziyo n'akandi k'umukara ku ruhande n'insinga zayo, hejuru kandi ku gikuta hakaba hariho udutako tumeze nk'udukoko hirya ku madirishya hariho amarido hejuru hariho igiciro cyayo uko ikodeshwa mu kwezi, hepfo hariho aho iri.

Inzu nziza cyane iri gusa umweru ifite ibirahure agatara ko hejuru kakaba katari kwaka ako hasi kakaka hakaba harimo udutebe tubiri dutandukanye ifite inzugi z'umukara ikikijwe n'ibyatsi ifite n'amapave imbere yayo.

aya n'amakaro ajya gusa umuhondo ndetse hariho n'ibyapa byinshi bitandukanye hirya no hino hari ni cyanditseho nimero icumi hari n'ikindi cy'icyatsi kiriho amagambo y'umweru ni cy'ubururu .Umukobwa uhagaze imbere ufite terefone mu ntoki yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'agapira k'umweru urigukora kuri mashini inyuma hariho ibipirizo by'umweru n'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, ibikonje n'ibishyushye. Hakaba hari umumama wambaye agapira k'umutuku n'inkweto za shokora uri kugura bimwe mu bicuruzwa byahongaho uri kubishyira mu kantu k'umukara.

Iguriro ririmo ibintu bitandukanye ibiribwa n'ibinyobwa. Umugore wicaye imbere y'ibinyobwa bitandukanye, imbere ye hakaba hahagaze umugabo wambaye ibintu by'umweru, ku ruhande hari ibindi biribwa bitandukanye na mashini iri imbere yabyo igaragaza.

Supamaketi irimo ibinyobwa bitandukanye biri mu mavida apfundikirwa, uducupa twa pulasitike ndetse n'utundi dutandukanye harimo amakaro hasi harimo utugare dutwara ibicuruzwa, dufasha abagenzi gufata ibicuruzwa.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye ikaba iri guhahirwamo n'umuntu wambaye agakanzu k'umutuku ibisuko by'umukarara, agasaha afite n'ibindi bintu mu ntoki ziwe arimo arahaha ari kureba n'ibindi bicuruzwa yagura.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ,ibyapa bigaragaza ibikorerwa bimwe muri ayo mazu hari ahagana hasi amakanzu yaba mama ari ku bipupe bishinzwe kuyacuruza amakanzu afite utubara dutandukanye.

Icyumba kimwe kirimo amakaro y'umweru arimo utuntu tw'umukara kirimo intebe ndetse n'utumeza, intebe zikaba zifite udufariso hasi. Hirya hakaba hari ahantu hari amavaze, hari umukobwa wambaye imyenda y'umukara, imbere ye hakaba hari utundi tuntu tutagaragara neza tw'umukara.

Inzu y'igorofa igeretse rimwe, isize irangi ry'umweru, ifite n'amabara y'ubururu, irimo imiryango ifite irangi ry'icyatsi ndetse hasi umuryango ukinguye, uhagazemo umuntu.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye ku ntebe ahantu bahuriye, hakaba harimo ababyeyi n'abana babo, bakaba bafite amakaye mu ntoki zabo n'ibipapuro uko bigaragara akaba nko kwa muganga, hari abambaye udutambaro mu mutwe bambaye ibitenge by'ababyeyi.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu cyanditseho uturanga ntego twinshi cyane twa araesibi, bambaye imyenda y'umukara umugabo akaba yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati ya buluesiyeli, bafite akantu mu ntoki k'agakapu bafasheho buri wese.

Ikarita imwe y'ubururu y'umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza, ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, ufite iyi karita ntarembera mu rugo niko handitseho ayo magambo y'umukara.

Ikirangantego cy'ubwisungane mu kwivuza kiri mu ibara ry'umuhondo, n'ubururu, n'umweru hakaba handitseho amagambo arasiyesibi bisobanuye ngo Rwanda sosiya sekiriti bodi.

Ikarita imwe iriho n'ifoto y'umugabo wambaye ishati y'umukara n'akandi kantu k'umweru hagati mu ijosi, hariho n'imyirondoro ye, igihe yavukiye nimero y'irangamuntu n'amazina ye, hirya hakaba hariho indi rangamuntu iriho n'akadarapo k'u Rwanda ndetse n'igikumwe cye aricyo bakunda kwita fingapurinti.

Inyubako imwe y'umweru, iriho akantu k'icyatsi ku ruhande, n'icyapa kinini cyanditseho posite de sante Kabazungu, n'utundi tuntu turi ku ruhande, n'ikirangantego cy'igihugu, y'amatafari ndetse n'amadirishya ku ruhande.

Abantu babiri batandukanye umugore n'umugabo, bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba bambaye udupira tw'umweru, imbere yaho hari akameza inyuma hakaba hari ikiranga ntego cya ara esi esi bi n'ibindi bintu bikorerwamo.

Abagore batanu harimo n'umugabo umwe bicaye ku ntebe, hari uwicaye ku ntebe y'umweru uri kwinanura hafi aho hari icyapa kigaragaza ibikorerwa aho hantu bicaye harimo kwanika ikawa, kumutsa ikawa n'ibindi bitandukanye mu magambo y'ubururu byanditse ku cyapa kiri inyuma yabo n'indobo y'icyatsi iri hafi aho.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye biribwa n'ibinyobwa, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo uturongo tw'ubururu handitseho MOMOPAY ku mupira we akaba afite telefone mu ntoki ze, umudamu uri guterura imifuka ubona ko harimo nk'umuceri wambaye uduherena n'agakanzu karimo utubara dutandukanye.

Iduka rigurirwamo ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara n'udukweto dusa umutuku harimo ji z'inyange marite amata y'inyange ndetse na ji za yembe.

Ahantu hacururizwa hakanarangurizwa ibinyobwa bitandukanye, hakaba harimo ibyapa, ubururu, oranje, umutuku, bikababigaragaza bimwe mu binyobwa bihacururizwa hakaba harimo icya koka kora n'icyaditseho fanda.

Ahantu hamwe hakorerwa ubucuruzi bw'imigati itandukanye, iri mu bwoko butandukanye hakaba hari umugati uri hasi hariho akuma gasa icyatsi. Akaboko kambaye umwenda urimo umutuku n'umukara n'agakomo k'ubururu kari kwakira umugati.